Amazi na mudasobwa biteretse ku bagabo babiri, bari kwigisha abandi buryo ki bakemura ibibazo bafite, hifashishijwe ikoranabuhanga ryabo kandi babikoranye umutima mwiza, hakiririndwa ibyabateza gutuma umunsi wababo ugenda nabi.

Umugabo mu ikoti ry'umukara ndetse n'agashati k'ubururu ari gushishikariza abaturage kwiteza imbere yakirijwe amazi meza akoranwe ubuhanga atuma ugira ijambo ryiza ndetse ukayagotomera nta kibazo ugize mu buzima bwawe.

Mudasobwa iteretse imbere y'abantu kugira ngo ikoreshwe icyo yakagombye gukora, bityo abayikoresha bagakomeza kugubwa neza ndetse bakurikirana n'inama bityo bagakemura ikibazo cy'abaturage bafite ndetse n'umuryango n'igihugu muri rusange kigakomeza kugubwa neza.

Abantu bo hirya no hino baje mu nama, kureba uburyo ki baganira ku bibazo bamaze iminsi bahura nabyo mu murenge ndetse no mu mudugudu no mu kagari bityo bakabikemura bakaba indakemwa mu mico no mu myifatire, bagakomeza guteza imbere igihugu cyabo.

Abagabo batatu, bari ku busobanura uburyo ki inama ihagaze, ku ngingo bari kuganiraho runaka, bityo bigatuma abitabiriye bose bakomeza kumva ukuri, ndetse bikajya n'ahagaragara ko ibyo bavuga ari ukuri.

Abadamu benshi bahuriye mu nama bicaye ku ntebe nziza zakoranywe ubuhanga, bityo gukomera kwabo zigatuma zigira akamaro ku bazikoresha ndetse no ku bazikora, bigateza imbere igihugu ndetse n'ababakomokaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umudamu wu muyobozi, ayoboye inama yateranye kugira ngo bifashishwe gukemura ibibazo bamaze iminsi bahura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi, hifashishwa amajwi runaka, abateza ibibazo bagakemurwa, ibyabo bigasubirwaho ku buryo bu buboneye.

Abaturage bicaye ku ntebe nziza, bari gukoresha mudasobwa bityo kugira ngo bakemure ibibazo by'ikoranabuhanga riboneka mu buzima bwa buri munsi, igihugu gikomeza gutera imbere n'abagikomokaho ndetse nabo muri rusange bakomeze kumererwa neza.

Umugabo ari gusobanura uburyo mudasobwa zigomba gukoreshwa ndetse n'amatelefoni mu ikoranabuhanga ry'igihugu rya buri munsi kugira ngo igihugu gitere imbere ndetse n'abagituye, abazagikomokamo ndetse n'abazagisanganira.

Mudasobwa nziza za mbere ku isi, zitaretse kumeza, zakoranwe ubuhanga, zitabiriwe n'abaturage batandukanye, kugira ngo bifashishwe gukemura ibibazo bamaze iminsi bibugarije, ikibazo cy'ikoranabuhanga, ndetse no mu bukungu biteza imbere.

Umuyoboro w'amashanyarazi uri kwifashishwa guha umuriro mu nyubako zitandukanye, bityo bigatuma abayikoresha bakomeza kugubwa neza n'ababikomokaho, bityo igihugu kigakomeza gutera imbere ndetse n'abakizamo tayari.

Umukozi w 'imiyoboro w'amashanyarazi ari gukora imiriro kugira ngo abaturage babone uko bacana neza babone bifashishwa kwirinda impanuka ziterwa n'umwijima bityo igihugu kigashishikariza abantu kugengesera imiyoboro yabo.

Ipoto rifite itara ritumurikira buri joro ku muhanda kugira ngo hirindwe ibibazo biterwa n'abajura cyangwa abantu batahura n'ibindi bibazo bitandukanye,...

Imodoka yegereye umu agenti, ikikijwe n'ibiti byiza byinshi, bityo bigatuma umuyoboro w'amashanyarazi ukomeza guhumeka neza, bigafashwa n'abaturage, igihugu kigakomeza gutera imbere mu buryo bwa buri munsi.

Imodoka nziza zikoranwe ubuhanga, ziparitse muri parike nziza, harambuye ndetse no mu kigo kirimo ambulanse, jaride ndetse n'ibiti byiza, bityo igihugu kigafashwa gusa neza n'ibyo bikorwa byabo.

Ikigo gisa neza, gifite jaride nziza, inzu nziza, gifite akayira k'abanyamaguru bacamo bagiye kuzana ibicuruzwa ndetse n'ibindi runaka bifuza, hifashishijwe imbaraga zabo ndetse n'izabo.

Imodoka iparitse ahantu harambuye, hari ikirere cyiza, hari inyubako ziboneye, umudugudu mwiza, abantu bose bagomba kurebaho icyitegererezo, bigatuma umunsi wabo.

Abantu mu myambaro y'umukara n'umutuku bitabiriye inama yabahuje mu biro by'akarere ka Gasabo kugira ngo hifashishwe ibibazo bafite bikemuke.

Gereza ya Nyarugenge iri kugaragaza ko abayigana bari kugororwa neza ndetse bigashimirwa n'igihugu muri rusange, kigakomeza kuba indakemwa mu mico no mu myitwarire, bityo abantu bashishikarizwa kuyiyoboka kugira ngo bajye ku murongo.

Akabati keza, intebe nziza, amakoputa meza, yicayeho abantu kugira ngo barebe ibibazo bimaze iminsi byugarijwe akazi kabo, bityo bikagaragaza uburyo ki ibibazo biri muri kampani yabo byakemuka hifashishijwe imbaraga zabo.

Umugabo ari gusobanurira uburyo ki abantu bagakoresha ibikoreshwa byabo, bityo bakiteza imbere, ndetse no kubabakomokaho. Abagira inama y'icyo bakwifashisha mu mico no mu myifatire ndetse bateza n' imbere igihugu.

Abaturage bari kwamamaza umukuru w'igihugu bishimiye intsinzi yagize, ibyiza yabagejejeho kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bityo bakishimira abamwamamaza bamuha ijambo runaka ryo kwishimana nawe we kugira ngo biteze imbere.

Umuyobozi w'uburezi aragushishikariza uburyo ki abarimu bagakwiye kuboneza abana, bityo babatoza imico myiza kugira ngo bagere aho bagera, bityo imiryango yabo ikomeze kugubwa neza ndetse bigahesha ishema n'igihugu muri rusange.

Umuhanda ukozwe neza uri gukoreshwa mu ngendo zitandukanye abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga, hifashishwa ikoranabuhanga rya ekonomi risesuye umuturage agakomeza kugira.

Ibinyabiziga bikoreshwa mu bwikorezi nini cyane nk'imodoka byashishikarije gukoresha umuhanda neza kugira ngo bigere ku iterambere ndetse no ku cyo bifuza kuba bageraho batunwe n'imiryango yabo bameze neza ndetse n'uruhare rwiza.

Imodoka zitwara abagenzi ziparitse muri pariki yazo, ndetse n'izisanzwe, bityo bikaba bibereye igihugu kwiteza imbere, ndetse n'aho zitwara n'imiryango yabo, bibakomokaho bikomeza kumererwa neza, bigafasha igihugu kwiteza imbere.

Umuhanda mwiza ukoranywe ubuhanga, kugira ngo ibinyabiziga bitemberemo neza, haba mu ijoro ndetse no ku manywa, amatara meza ndetse n'ibindi bintu nka moto, amagare ndetse n'abanyamaguru, hifashishwa kwirinda impanuka ndetse n'abaziteza.

Umuhanda mwiza ukoranwe ubuhanga w'Igihugu uri gukoreshwa n'ikinyabiziga cyikorera imizigo, imicanga ndetse n'izindi gahunda zitandukanye, bityo bikagaragaza ko Igihugu cyiteje imbere ndetse n'ibindi binyabiziga ku baturage runaka.

Umuhanda ukoze neza uboneye, werekana aho inzira zakagombye kunyurwa, bityo ukaba urambuye neza, ibinyabiziga kugira ngo bibone aho bica bimeze neza ndetse n'abanyamaguru n'ibindi bintu bidatandukanye, byo bikagaragaza kumera neza.

Umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bityo bigashishikarizwa gukoreshwa neza, bakagenda mu muco no mu myifatire badateje impanuka, Igihugu kigakomeza kuba ntamakemwa mu mico no mu myifatire iranga abagituye.

Umuhanda ukoreshwa mu ngendo zitandukanye, ibinyabiziga harimo motora, amagare, abanyamaguru, ndetse n'ibindi runaka bityo, bigatuma ubwikorezi bujyanwa aho bugezwa, bigatuma ibicuruzwa byabo bifatwa.

Umuhanda ukoranwe ubuhanga, ibinyabiziga bikawitabira kuwucamo ndetse n'abanyamaguru, bagashimira guverinoma y'u Rwanda, ko iri kubafasha imico n'imyifatire yabo, bari kuyiteza imbere, bityo bakishimira.

Umunyonzi ari ku igare ryiza, akoresha umuhanda neza kugirango yirinde impanuka ziterwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bityo bigatuma igihugu gikomeza kuba ntamakemwa mu mpanuka, hifashishijwe imbaraga zawo ndetse ni zabandi.

Abasore babiri ku kigare cyabugenewe mu gutwara imizigo, bifashishije kugikoresha kugira biteze imbere, ndetse n'ababakomokaho mu gihugu muri rusange, bityo bakomeze kumererwa neza, n'ubuzima bwabo bwiza bwa buri munsi n'ababakomokaho.

Itumanaho ni ryiza, rifasha abarikoresha gukora ibyo bakora vuba kugira ngo humvikane icyo bashaka kugezaho abo bashaka, bityo bigatuma abantu badakora ingendo zabo zitandukanye.

Ikibuga kirambuye gikoreshwa mu myidagaduro yo mu bantu batandukanye ndetse baba hirya no hino, bikikijwe n'ibiti, utuzu twa hato na hato two kuruhukiramo bityo abafana bagakomeza kumererwa neza bishimira ibyiza igihugu cy'abagejejeho.

Ikibuga kirambuye kimeze neza gikoreshwa mu myidagaduro gikikijwe n'ibiti ndetse n'ikirere cyiza bityo abantu bagashishikarizwa gukora siporo hanyuma ubuzima bwabo bukagenda neza ndetse n'ababakomokaho n'igihugu muri rusange tayari.

Icyapa mu ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara kigaragaza ko imbere hari umuyoboro w'umucanga, bityo abawukoresha bagakomeza kumererwa neza, bityo ahaboneye bakahutirwa kuwuhagarika umuvuduko kuko imbere hari.

Icyapa mu ibara ry'umukara, umweru, umutuku kirekana ko imbere mu muhanda hari akayira k'abanyamaguru, bityo bigakoreshwa neza ibinyabiziga bihageze bikahagarara kugira ngo batambuka bagende bakirinda guteza impanuka.

Icyapa mu ibara ry'umutuku n'umweru. kiri kugaragaza imiterere y'umuhanda ko uzengurutse kandi hagati yawo harimo kandi agahanda gatambuka kugira ngo abantu babone uko bawugendamo badateje ikibazo badateje n'impanuka.

Icyapa mu ibara ry'umwiruro gikoreshwa mu kuyobora abantu aho bagiye, bityo bagashimira u Rwanda ko ruri kubafasha ndetse mu mico n'imyifatire yabo bakagirayo amahoro, kugira ngo bajye muri gahunda zabo bagezeho amahoro.

icyapa mw'ibara ry'umukara n'umweru bishishikariza abantu intera basigaje mu muhanda wabo bityo bakamenya ngo bagiye kuhagera cyangwa haracyaburamo igihe kingana gutya bigatuma bagira intego yo kwihuta cyane no kubahorwa

Icyapa mw'ibara ry'ubururu n'umweru ndetse kigaragaza ko imbere hari pariki imodoka bityo bikazifasha kubona uburyo zihagarara mu mahoro meza kandi mu buryo busesuye hifashishijwe ikoranabuhanga.

Ikirango cy'umuhanda kigaragaza uburyo ki ibinyabiziga bigomba kugendamo, bihita, kugira ngo hifashishwe kwirinda impanuka ziterwa n'ibinyabiziga, hagati yabo ndetse n'abantu kugira ngo igihugu gitera imbere.

Icyapa kegereye umuyoboro w'amashanyarazi kiri kugaragaza intera iri hagati y'umuhanda, ugiye ibirometero birimo kugira ngo ugereyo amahoro kandi vuba aha hifashishijwe amaguru ndetse n'ibinyabiziga bigafashanya.

Inzu nyinshi zikorana ubuhanga amabati yarashaje, bityo hari kuvugururwa bashyiraraho ama bateye neza mashyashya bityo bigatuma igihugu gikomeza kwiteza imbere ndetse n'abagituye, bigaragara ko yegeranye n'amashyamba n'urutoki n'imiterere myiza.

Inyubako nziza iri mu mujyi wa Kigali iri gushishikariza abantu kuza guhahiramo mu maduka y'aho kugira bakemure ibibazo by'ubukene bafite kugira ngo bifashishwe guteza imbere inyubako ndetse n'umujyi muri rusange.

Inyubako zigize ikigo bashyizeho ibigega kugira ngo byifashishwe mu gufata amazi adateza ibibazo runaka, bityo bikabangamira ibikorwa byabo bya buri munsi, bigatuma abantu batabyitabira uko bikwiye.

Inyubako ibereye Igihugu, irigushishikarizwa kuza gukorerwamo ndetse n'abasanzwe bayirimo bakayifata neza abatayangiza, gukomeza kwiteza imbere ndetse n'abakomokaho, bityo Igihugu kigakomeza kuzamukamo.

Umuhanda wubakanywe ubuhanga ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye imodoka amagare, ndetse n'abanyamaguru bityo, igihugu kigakomeza gutera imbere mu mico no mu myifatire, kugira kiganwe n'abanyamahanga bose kugira ngo.

Umuhanda ufite aho abanyamaguru bambukira, bityo tugashimira abanyarwanda ko badufashije, kugira ngo hirindwe impanuka ziterwa n'ibinyabiziga umunsi ku munsi, kugira ngo ubuzima bw'abantu butajya mu kangaratete.

Umuhanda ukeneye kuvuguruzwa kuko barashaje bityo bi bikarinda impanuka z'ibinyabiziga bicamo kugirango biteze imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange n'abagituye ndetse n'abakiza kukisuriramo bityo....

Umuhanda ukozwe neza ukoreshwa n'ikinyabiziga hifashishijwe imiyoboro y'amashanyarazi, imodoka, amamoto ndetse n'abanyamaguru, bityo bigatuma ababikoresha bakomeza kugubwa neza, bagerayo amahoro mu buryo busesuye.

Umuhanda mwiza ukoranwe ubuhanga, bufite w'amashanyarazi mwiza, hari kwerekanwa uburyo ki abawukoresha bawukora neza, bakawugendamo neza, hirindwa impanuka zawuteza, ibibazo mu bantu bawugendamo, buryo bumwe.